Icyapa kiri kwamamaza, iki cyapa kikaba kiri muri mpande enye kikaba gifite ibara ry'icyatsi, hakaba hariho inyuguti zandikishijwe mu ibara ry'umweru, hakaba hagaragaraho ibishushanyo bibiri, birimo imodoka y'umutuku n'akandi gashushanyo gato kari mu ibara ry'ubururu, icyapa kikaba kimanitse hejuru cyane, munsi y'icyo cyapa hagaragara ibiti n'igihu cy'umweru n'ibicu.

Ni icyapa cyamamaza kikaba kiri mu ibara ry'ubururu kikaba cyanditswe cyandikishijwe n'amagambo y'umukara inyuma gato hakaba hari ikikirararo kiriho ibyuma byinshi n'amafi n'idini by'ikoranabuhanga munsi y yaho gato hakaba harimo akayira gato inyumaba agashamba n'ibiti bikeya hakaba hagaragara inyubako runaka.

Icyapa cyamamaza kiri ku muhanda, kikaba giteye ku ikintu cy'umukara, icyo cyapa kikaba kiri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo, hakaba hagaragaraho umukobwa wambaye ishati y'umutuku, akaba ari umuzungu. Hirya gato hakaba hari umuhanda, hakaba hari umuntu uhagaze munsi y'icyapa.

Icyapa cyamamaza, kikaba kiri imbere y'inzu ifite ibirahuri n'amarangi y'umweru n'umuhondo, ikaba ifite akajaride gatoya n'utuwuwa imbere y'iyo nzu, icyo cyapa kikaba kiri mu mabara atatu ari yo umweru n'umukara n'ubururu, kikaba cyanditseho amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umweru.

Telefone iri mu biganza umuntu runaka. Telefoni ikaba igaragaramo amabara abiri, urebye igice cyo hejuru kikagaragara mu ibara ry'icyatsi ikindi kikagaragara mi ibara ry'umweru. Hakaba hagaragramo n'inyuguti zanditswemo, hakaba hongera kugaragaramo ibintu bisaba n'amafaranga yo mu madolari.

Iduka ricuruza imyambaro y'abagore hakaba harimo imyenda y'imikara ,umutuku, umweru hakagaragaramo iteretse kutuntu duterekwaho imyenda, amatara y'umukara n'umweru amarangi yo mu nzu yo mu nzu asa umuhondo hasi amakaro y'ubururu.

Umugore urimo imbere hakaba hagaragara n'undi mukobwa wajemo imbere mu iduka bakaba baganira, hakaba hagaragara umwunzani uriho ibiriho icyuma hejuru gisa gipima ibiro, hakaba hagaragaramo udufuka twinshi tw'ibiribwa n'ibindi bikoresho byo mu rugo inyuma.

Imodoka nziza nini iri mubara ry'ivu ikaba ifite pulake yanditseho Kigali karzi maketi. Inyuma yayo hakaba hagaragaraho imodoka y'umutuku ntoya ikaba iri munsi y'ibiti byinshi.

Abagabo babiri n'umugore umwe bakaba bahagaze ku ma Pave hanze y'inzu, bakaba bahagaze iruhande rw'imodoka y'umukara, bakaba bafite akantu mu ntoki bose bakozeho uko ari batatu, inyuma yabo hakaba hagaragara inzu y'ibirahuri byinshi, tena inyuma yabo hakaba hagaragara igipangu cy'umuhondo n'andi mazu inyuma y'aho n'ibiti.

Abagabo babiri basa nk'abari kwemeza ubufatanye, bakaba bafite akantu gasa nk'agakozwe mu rufunguzo rw'umweru kabajwe mu rufunguzo k'agapapuro, umwe akaba yambaye ishati y'ubururu, undi akaba yambaye umukara. Bakaba bari iruhande rw'imodoka, hejuru yaho gatoya hakaba hari inzu yanditseho Akagera moto, inyuma hakaba hari umunara munini n'andi mamodoka n'ishyamba.

Abantu bahagaze bane ni abagore, umwe ni umugabo. Inyuma yabo bakaba hari ifoto igaragara iriho imodoka. Iri mu bwatsi. Imbere yabo hari ameza ateretseho telefone n'izindi mpapuro. Hakaba harimo umuzungu umwe, wambaye ikoti ry'ubururu. Hakaba hari n'intebe y'umukara yo kwicaraho kuri ayo meza.

Iyi iyi ni imodoka y'umukara ikaba yariri aho iparika munsi y'igisenge mu gipangu, inyuma kigaragara mu ibara ry'umweru.

Imodoka ebyiri ziparitse munsi y'urusenge zikaba ziri mu ibara ry'umweru zikaba zifite amapine y'umukara imbere yazo hakaba handitseho ijambo riri mu nyuguti z'ubururu vorukano hirya gato hakaba hari akantu karirimo utuyira kajyana amazi kakaba gafungishijwe hejuru n'utwuma duto duto tutasharaguye.

Iyi ni imodoka iparitse ahantu hagenewe ikaba inyuma hari amazu n'umuhanda, ibiti, ikaba iri kugurishwa ku giciro kingana miliyoni mirongo itandatu eshanu, ikaba yitwa jipe ikozwe muri jipe bibiri na cumi n'umunani.

Amafaranga ahwanye n'ibihumbi bitanu aya mafaranga akaba ari inoti nkuru y'u rwanda hakaba hagaragaraho abantu bari kubyina nk'abagore bari guhamiriza babyina imbyino za kinyarwanda, inoti ikaba ifite ibice bibiri kimwe kigaragaraho abantu babyina n'ikindi gice kigaragaraho inyubako nziza ya etage n'ibiti.

Mu biganza bigaragara n'iby'umugabo, akaba afite amafaranga mu ntoki menshi andi akaba ari amafaranga agiye ateritse hasi ku meza y'umutuku, iruhande rw'iwe ku kaboko k'iburyo hagaragara imashini iteranya imibare n'akandi kantu kari mu ibara ry'umuhondo.

Iyi foto yerekana ameza ateretseho igiceri cy'amafaranga mirongo itanu y'amanyarwanda.

Umukobwa uri kuri telefone akaba yambaye taburiya ahagaze mu nzu irimo amakaro y'umweru, imbere yiwe hakaba yateretse akameza kariho ijage ifunguye, hakaba hagaragara undi ukora ahantu bacuruza amata, inzu ikaba ifite ibikuta by'irangi ry'ubururu na pulafo y'umweru hakaba hagaragara ama ji mu kabati k'amandazi.

Iyii ni ifoto yerekana abagabo babiri umwe afite akagaro, wambaye umupira w'icyatsi n'isaha mu kaboko k'ibumoso, akaba agaragara aseka n'umupapa uri imbere muri kontwari, bakaba bari mu nzu irimo bagurishamo amata n'amandazi.

Akantu k'ubururu gateretsweho ibikoresho bitatu, hari iteremusi, imwe isa umweru, indi isa gireyi, hakaba hateretseho akandi kantu ka parasitike k'umweru karimo ibiribwa nka capati bikaba biri munsi y'amadirisha y'utugiriyaje ahantu hari amabara abiri ubururu n'umweru.

Ikiganza gifite telefoni mu ntoki, muri telefoni hakaba hagaragaramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, hakaba hagaragaramo ibice bibiri biri mu mabara atandukanye, ibara ry'icyatsi n'ibara ry'umweru, muri aya mabara yombi harimo ibimenyetso bigiye bitandukanye.

Icyapa cyamamaza cya airtel, kikaba kiri mu ibara ry'umutuku, amagambo yanditswe akaba yandikishwa ibara ry'umweru. Kikaba cyanditsweho amagambo ari mu rurimi rw'igifaransa, kikaba kiriho indi mibare ivugwa ngo akanyenyeri magana ane, gatatu, gatandatu, urwego.

Icyapa cyamamaza kikaba kigaragaraho umugore witandiye mu mutwe ufite agatambaro mu mutwe akaba yambaye akantu ko mu ijosi akaba yambaye ikanzu y'umweru akaba afite telefone mu ntoki iri tangazo rikaba ari irya emutiyenl rivuga ko irekure ukanze akanyenyeri ijana na mirongo itanu na rimwe urwego ukabasha kwiguriza.

Ikiganza kigaragara cy'umugabo wambaye ishati ya roze, akaba afite ubwoko bw'amafaranga agiye atandukanye. Inyuma yaho hakaba hagaragara ishusho y'ibara ry'umuhondo, munsi yaho hakagaragara ibara ry'umweru ryanditswemo n'amagambo menshi. Iri shusho rikaba ari itangazo rya banki yitwa I&M banki.

Mudasobwa igaragaramo akantu k'inyishu resi ya Rwanda reveni. Ikaba igaragaramo imbonerahamwe nyinshi ziri mu magambo y'umukara mu nyuguti z'umukara. Ikaba igaragaramo ikirangantego cya leta y'u Rwanda

Mudasobwa igaragaramo ibara ry'umweru cyane, ihakaba muri iryo bara ry'umweru handitse amagambo y'umukara. Hakaba harimo ijambo rigaragara cyane ryanditswe, banki of kigali ariyo banki ya kigali. Utundi n'utugambo duto duto.

Amafaranga y'amadorari ijana, akaba hari munsi yayo harimo n'ubundi bwoko bw'andi mafaranga, akaba ari amafaranga ateretse ahantu ari menshi cyane avangavanze cyane.

Ikiganza kiri gukora kuri telefoni gikandakanda, iruhande rwacyo hakaba hagaragara akamashini kamo ibara ry'umweru kakaba karimo n'amadorari y'ijana menshi bari kubara hiryaga tuka hagaragara mudasobwa bikaba byose biteretse kuba amen ku meza isa ifite ibara risa nk'iry'ivu.

Umugabo ufite amafaranga mu ntoki y'ubwoko bubiri butandukanye, akaba yambaye umupira w'ubururu akaba yambaye impeta mu ntoki afite isaha mu kaboko k'ibumoso, nyuma yiwe hakaba ari ikirahuri, mu nzu hakaba harimo irangi ry'umuhondo rigaragara mu mazu.

Amafaranga ahwanye n'ibihumbi makumyabiri by'amakongomanani. Akaba ari inoti igaragaraho utunyamaswa tubiri tw'amajosi maremare tw'udusumbashamba, hagaragaraho igitwe cyirimo ibara ry'umukara, ayo amafaranga yose akaba ari barara ry'umuhondo.

Aya ni amafaranga y'imanyamahanga, amafaranga menshi yateretse hamwe harimo inoti zigiye zitandukanye za magana atanu n'izigihumbi magana atanu.

Iyi ni ifoto yerekana umuntu uri kubara amafaranga menshi, akaba ari kubara amadorari, imbere hakaba hari andi mafaranga y'amashinwa, imbere ye hakaba hari na karikiratirise imufasha guterateranya indi mibare y'amafaranga amaze kubara.

Icyapa cyamamaza cyerekana y'uko hano hakorerwa ubucuruzi bw'ibirango by'igurana ry'amafaranga, aho uzana amadolari bakaguha amanyarwanda. Munsi yiyo nzu hakaba hari andi mazu agaragara ko akorerwamo ubucuruzi, hakaba hari abakobwa babiri basa nk'abinjiramo umwe yambaye umupira w'umuturu n'undi yambaye ak'umutuku rero.

Iyi ni inzu ishinzwe kuvunja amafaranga y'abanyamahanga. Hakaba hari icyapa cyerekana ibyo bakora, kikaba kibwira abantu ko bahawe ikaze yo kuzamo babagana, kuza gushakamo serivisi. Uka waba uzanye amafaranga bakakuvunjira, niba ari amanyarwanda bakaguha mu madolari, niba ari amadolari bakaguha amanyarwanda.

Igikuta cyanditseho amagambo agiye atandukana kikaba cyiganjemo amabara abiri umuhondo n'umukara icyo gukita kikaba cyanditseho amagambo ari yo wesitani uniyoni, mani tarasifa, urenze icyo gikuta imbere urabona umuhanda urimo imodoka zigiye zitandukanye hagaragaramo n'iy'umutuku, hakaba hagaragara inzira y'abanyamaguru harimo n'abanyamaguru inyuma hakaba hagaraga jaride izitiye.

Izi ntebe n'ububati aho bikorerwa bikaba bigaragara ari byinshi mu nzu irimo amatara y'umweru na yo ikaba iri mu mabara itewe amarangi y'umweru hakaba hagaragaramo utubati, intebe z'umweru.

Icyapa cyamamaza ko bakora intebe, kwizera ariti. Bakaba hagaragara intebe nziza z'amadiva n'imisego n'ameza y'umutuku, inyuma hakaba hari aho bakorera izo ntebe n'abantu babikora. Bakaba bari muri etage ifite amabara y'umuhondo n'inzugi z'ubururu.

Ahantu heza muri hoteli hagaragara pisine kurwego urwegero rw'abantu baje muri hoteli, hirya hakaba ari ahantu abatari koga bari bicaye, inyuma gato yaho hakaba hari ibiti n'ishyamba byiganjemo ibara ry'icyatsi hakaba harimo ibara ry'umweru cyane cyane ahantu hano muri hoteli kuri pisine.

Ahantu muri hoteli, hakaba hagaragara ahantu h'ubwicariro bw'abantu baje bagana iyi hoteli. Hakaba hagaragaramo utuyira duca tujya ahantu ho kwicara, hakaba hagaragara intebe z'imihondo ziri munsi y'imitaka igiye itandukanye. Hakaba hateye uduti n'utujaride dutuma hagumya kuba heza n'ibiti bizana imiyaga.

Hoteli nini igeretseke ebigereretse kabiri ika bigaragaraho amadirisha menshi ya mbere yabagaragaraho utwuma turinda aho inzu igarukiye ikaba hagaragara utuntu duteyemo iturabo imbere yaho hirya gato akabaja ride nini munsi yakaba handi hantu habugenewe kwicara inyuma gato ya hoteri hari umujyi munini urimo amazu menshi.

Iyi ni inyubako ndende, ikaba igeretse inshuro nyinshi zitabarika ikaba ifite ahantu handitse izina ryayo ry'uko yitwa, ikaba yitwa Britam centre, ikaba iruhande hagaragara igiti.

Icyapa cyamamaza kiri mu mabara atatu, ubururu, umweruru, n'umukara, inyuma yacyo kitaba hagaragarayo inzu ifite ibirahuri, ikaba iri mu mabara y'umweru n'umuhondo wijimye. Hakaba hagaragara akajaride gatoya n'imiryango yinjira muri iyo nzu.

Inyubako nini yitwa sanara ikaba ifite iruhande rumwe rugaragara rw'ibirahuri byinshi. Hirya gato hakaba hagaragara urundi ruhande rwubatswe mu matafari y'umuhondo, imbere gato haragaragara ibiti bitoya biteye imbere y'nzu .Hakaba hanagaragara abantu bagiye batandukanye bari kugenda.

Umuhanda wa kaburimbo y'umukara werekeza ku nyubako ebyiri nini inyubako ya mbere ikaba yari ifite akajagari kamanza ikaba ari inyubako ivuye mu mabara y'icyatsi ikaba ifite izina ry'iyo nyubako akaba ari icyapa ki'izina nyubako kitwa bruutam indi nyubako inyubako ndende nayo iri n'ubururu gafite imiti.

Inyubako ebyiri, ndende zifite amabara abiri, ubururu n'umweru. Hasi ku muhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru n'ibindi binyabiziga. Hakaba hagaragara abantu bari kugenda, hakongera hakagaragara ibiti bikikije izo nyubako.

Inzu ifite amakaro y'umweru ikagaragara ahandi hantu hicarwa n'abantu hakaba hagaragaraho intebe, hakongera hakagaragara undi muntu wicaye ahantu yakira abamugana hagaragaraga amabara y'umutuku, iyi nzu ifite amatara y'umweru.

Icyapa cyamamaza cy'ubwishinganizi. Kikaba hagaragara inzu nini, amadirisha n'ibiza n'ibizana umuyaga mu nzu. Kikaba hari icyapa cyanditseho beka inshuwarensi .Kikaba munsi hari ikindi cyapa gitoya cyanditseho amagambo y'ibara ry'icyatsi n'umutuku.

Abantu benshi bari mu inama, baganira, baseka. Inyuma yabo hakaba hari ibyapa bitatu byamamaza, biri mu nzu y'amabara y'umweru, bikaba byanditswe mu nyuguti z'umukara. Bakaba bari mu nzu irimo ibirahuri igaragaramo amatara, bakaba buri wese biga imbere yabo yicaye ku meza ateretseho amazi, bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bose z'amapine.

Umugore uhagaze wambaye ingofero y'umuhondo n' akajeri k'umuhondo, akaba afite akakesi mu ntoki, akaba inyuma ye hagaragara umuryango ufunguye, akaba ahagaze mu byatsi inyuma ye gato hakaba hari ikimashini cyubaka kisi rikora imihanda, akaba hanagaragara inzu iri mu ibara ry'umuhondo.

Telefoni igaragaramo ibara ry'umweru cyane, hskaba hagaragaramo utugambo tw'utunyuguti duto duto, turi mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyamamaza kino cyapa kiramamaza kivuga ko kiba gushaka abantu ari gushaka stock ikii cyapa ni icyamamaza ibintu binjyanye no kuri chrismas kikagaragaramo umukobwa ufite ibisuko wambaye umutuku ufite n' agacupa inyuma haakaba hari'ibindi bikoresho byinshi by'ikoranabuhanga n'ibiribwa.

Ifoto yerekana umudamu uri kwigisha abandi bantu benshi imbere ye abasobanurira. Ibijyanye n'umusoro. Iki ikaba ari ifoto ifite ibice bitatu. Kimwe cyerekana umuntu uri kwigisha, ikindi cyerekana inzu n'ibindi bintu bikoresho byinshi. Ikindi gice kiriho amagambo asobanura ibyo ari kwigisha hano.

Umudamu uhagaze mu isoko, akaba yambaye ikanzu y'icyatsi, akaba ari mu isoko ririmo abantu benshi bari gucuruza ibintu runaka bitandukanye. Hakaba hagaragaramo umuntu wambaye ibya mtn, bakaba bari munsi y'inzu isakaye.

Umumama uri mu isoko ry'ibiribwa uri gubucuruza akaba yambaye ibitenge birya akaba ari gucuruza inyanya, kokombure, amashu, puwavuro, imiteja n'ibindi byinshi hejuru ye hakaba hari igisenge cy'ibyuma n'amabati.

Umusore wicaye ku gatebe k'ibiti. Gakozwe mu biti, akaba ari mu isoko bacuruza imyenda. Hakaba harimo sima muri iryo soko, hejuru hakaba hari parafo, imbere gato ukomeje kureba neza, hagaragara ikindi cyapa cy'umuhondo cya MTN.

Iri iri ni isoko rigaragaramo aba mama benshi ricuruza imyambaro y'aba mama, ibitenge hakaba hakubiyemo abantu benshi baje guhaha hakaba harimo n'abagurisha n'abagura.

mu kiganza gisesetse mu myenda igurishwa kikaba gifite ikintu kizwi nka pence muri iyo myenda ikaba ari amapantalo y'abagabo hakaba hanagaragara ibyapa by'umuhondo n te nigea kwambara umukozi wate icyo cyapa cya mbere cy'i cyapa kigaragara kikaba ari icya momo hey code yo kwishyurirwa

Abagabo babiri bamwe bambaye umupira w'umuhondondi yambaye umupira w'umukara bakaba bafite igare naryo risaroruka inyuma yabo hakaba hari icyapa cyamamaza cyaMTN ,kikaba cyerekana kode ubasha kuba wakanda ugakurikiza amabwiriza. Iyo kode ni akanyeri ijana mirongo inani na kabiri, akanyenriye umunani urwego, ugakurikiza amabwiriza.

Abantu bagera muri batanu bakaba bari ku kazu k'umukozi wa mtn w'umu agenti bakaba ari abagabo batatu n'abagore babiri baje gushakamo serivisi.

Akazu ka MTN gakorerwamo n'umukozi wa MTN uzwi ku izina ry'umu agenti, kakaba kari mu ibara ry'umuhondo hakaba harimo umukobwa, imbere ye akaba afite abantu baje bamugana babiri, inyuma gato hakaba hagaragara inzu ho gatoya.

Umudamu wambaye ikoti ry'ivu n'ikanzu irimo ibihuhwa, biri mu ibara ry'umukara, akaba ahagararanye n'undi mukobwa wambaye ishati y'umuhondo, n'ingofero y'umuhondo n'ubururu. Akaba afashe ku cyuma cy'ikoranabuhanga, bakaba begamiye ku meza, aha aba aterekwaho ibintu bari kumwe. Inyuma yabo hakaba hagaragara firigo irimo ibintu byinshi byo kunyobwa, n'ibindi bicuruzwa bacuruza.

Imodoka z'umuhondo n'abamotari benshi batwara moto z'umuhondo bakaba bari inyuma y'inyubako ya etage iri mu mabara y'umuhondo ikaba iriho icyapa cyanditsweho iposita kiri mw,ibara ry'umweru hakaba hagaragara umuhanda wa kaburimbo n'ibiti kuhande n'abantu bagendagenda mu nzira.

Abamotari benshi bambaye imyenda isa n'amakasike asa, bakaba bambaye imyenda y'urutuku yanditseho yego moto mu muhanda uzwi nka kaburimbo y'umukara, imbere yabo gato hakaba hagaragaye imodoka y'umweru yari iri kugenda, imbere hagaragara amazu yubatse n'ikigo cy'amashuri iruhande rw'icyo kigo kikaba kigaragaraho ibiti n'amashyamba ari inyuma yaho.

Iki ni igikoni cya kizungu kigaragara kirimo utubati twinshi, amafirigo, amashyiga, icyuma gishyushya ibyo kurya, firigo ishyushya no gukonjesha, hakaba hagaragara utubati tubikwamo ibikoresho byinshi byo kwifashisha mu gikoni, bikaba byose bigaragara mu ibara ry'umweru.

Iri ni itangazo riranga inzu, inzu igaragaraho intebe ku rubaraza rwayo. Ikaba ari inzu ifite ibyumba bitanu iherereye i Kibagabaga ikaba igurishwa.

Inzu irimo amakaro, ay'uturongo tugiye gutandukanye, hagaragaramo utubati two mu gikoni, hejuru hakaba hari utundi tubati, iruhande rwaho hari ishyiga ry'umukara ryo gutekeraho, hakaba hanagaragara ikindi cyuma gikonjesha kizwi nka firigo gicometse ku muriro.

Amadirisha afunguye, amarido ari kuhande, amakaro yo mu nzu akaba ari umweru, hakaba purafo ari umuhondo, igitanda gishashe kiriho amashuka y'umweru n'umusego, hejuru hari supanete y'icyatsi, n'itara ryaka.

Igikoni kiza kigezweho cya ruzungu, hakaba hagaragara ahantu bogereza ibyombo. Akabati kabikwamo ibintu gafunze, amakaro inyuma y'akabati hejurukaba ari indi myanya uyikwamo ibindi bintu hirya gato hakaba hagaragara ibiti.

Abantu babiri bari kwishura bamaze guhaha muri supamaketi, hakaba hari undi ubara ibyo ba ibyo bakoresheje bakishuka bikaba hacanye udutara tw'umweru inyuma hakaba hari firigo y'ibyapa byamamaza biri mu birango by'ibara ry'umutuku, abantu barimo bakaba bambaye umu mama umwe yambaye umukara undi aritandiye ni umuyisilamu.

Isoko ry'imbuto ririmo abantu babiri harimo umumama wambaye ikanzu arimo, hakaba hari undi w'umuzungu waje guhaha inyuma akaba hari umugabo bakaba bagaragara bari mu nzu nini.

Iyi foto irerekana abagabo babiri bakuze bambaye amakoti n'amakaravati umwe akaba yambaye ikote ry'ubururu undi akaba yambaye iry'umukara. Umwe wambaye ikoti ry'ubururu n'amarinete akaba afite akantu mu ntoki k'umuhondo hakaba hagaragara ikindi kintu kizwi nk'ikivanye iki ngiki giterwamo indabo bakaba bahagaze kuri sima isaba umutuku inyuma hakaba hagaragara abandi batandukanye n'amafoto ya kagame n'ibindi byinshi.

Icyapa kirimo ibara ry'umweru, kiriho n'ibirangantego bine bigiye bitandukanye, kimwe cy'u Rwanda cya Minefofine n'ikindi kiri mu ibara ry'ubururu n'ikindi cy'umutuku n'ikindi kimeze nk'igiti, hakaba handitseho Rwanda bibiri na cumi n'umunani, kikaba giteye ku rupangu rw'amatafari ahiye, imbere yaho hakaba hari uduti dutoya.

Umwana ugaragara afite agapupe mu ntoki aseka; hakaba hagaragara irindi bishushanyo biri mu nyuguti biri, mu mabara agiye atandukanye hasi ha akaba hari n'ikirangantego cya rssb hirya gato ibyo bishushanyo bikaba bigaragara amabara atandukanye ariyicyatsi n'umuhondo umukara hakaba hagaragaramo n'ijambo ryanditswe mu mabara abiri ariryo ejo ku munsi.

Isoko. Isoko ririmo abantu baje guhaha, akaba ririmo amakaro y'umweru, hakaba hagaragaramo ibyapa by'umweru, byiganjemo imweru cyane cyane, ibyo byapa bikaba byanditswemo amagambo ari mu bara cy'umukara, akaba hagaragaramo ibintu byinshi by'ibintu byo guhaha.

Isoko bagurishirwamo ibintu byoku by'ibiribwa, bikaba biri mu kabati kanini, akabati karimo ubwoko bwinshi bw'ibintu by'ibiribwa byo gukoresha mu murugu, hakaba hagaragaramo nido n'ibindi byinshi bitabashata kugaragara neza.

Umugabo wasamye, wambaye aga tshirt, n'isaha mu kaboko, akaba afite ikintu ari gusunika, giterekwamo ibyo umuntu yabashije, yifuza guhaha, yabashije guhaha, inyuma yiwe hakaba hagaragara abandi bari kugenda n'amaguru, bakiri kuri telefoni, biganjemo abasore, impande ziwe, hagati, iruhande rumwe n'urundi hakaba hagaragara ibiribwa byinshi.